Mu kibuga imbere y'ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri bajya kwigira yaba abiga: mu kiburamwaka, muri pirimere, ndetse no muri segondere.

Mu ishuri aho mwarimu ahurira n'abanyeshuri yaba abiga mu nasari, pirimeri na sekonderi bakiga amasomo ndetse bagataha nimugoroba saa kumi n'imwe.

Ku kigo cy'amashuri aho abanyeshuri baba bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byo kuvuga uko biyumva no kugerageza gusobanura ibyo biga imbere y'abarezi babo ndetse n'imbere y'abashyitsi babasuye.

Muri resitora aho abantu bajya gufatira amafunguro, iyo wakoze urugendo ujyayo bakagufasha ku byo kurya cyangwa se ibyo kunywa aho waba uri hose, ndetse bakaba banagufasha mu kugucumbikira.

Mu kigo cy'amashuri, mu mashuri ya nasari aho abana bagira ibikinisho bitandukanye, yaba ibivuga ibitavuga ibiriho imibare amashusho ndetse n'ibindi.

Mu ishuri ry'ubugeni aho biga gukora inkweto zitandukanye ndetse no kudoda ibindi bikoresho, gukora inkweto zirimo izabamasaye, iz'amasaro, ndetse n'izindi zitandukanye.

Abanyeshuri biga ibya siyanse bari muri Laboratwari bakajya gukora egisiperimenti z'ibyo bize bakajya guvanga ama Aside ndetse na amakemikozi kugira ngo barebe icyo bibyara.

Ku kigo cy'amashuri cya nasari, ahaba ibikinisho bitandukanye, ibyicungo ndetse n'aho abana bakinira iyo bari mu gihe cy'akaruhuko. Ahangaha abana benshi bakunda kuhajya kubera ko baharuhurira mu mutwe.

Uburezi bwa mekanike, aho abana bigiramo uburyo bwo gukanika ibikoresho bitandukanye, harimo imodoka, amamoto, amagare ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Abanyeshuri biga muri ayipi alasi mu bintu byo bya mekanike, aho bari kugerageza imashini bakoresha mu gihe bari gukanika ndetse bari no kwiga.